Umurima uhinzemo imboga z'amoko atandukanye, imbere yawo hakaba hari ibiraro byororerwamo inkwavu, hepfo hakaba hari amashuri ubona ko ari mu kigo cy'amashuri. Ni byiza guhinga imboga ku mashuri kubera ko biraborohera kubona imboga zo gutekera abanyeshuri.

Abanyeshuri benshi cyane bafite za matora ndetse n'ibikapu, ubona ko barimo kwinjira mu modoka, bikaba bisa nk'aho ari mu gihe cy'itangirariro ry'abanyeshuri, ni byiza ko igihe abanyeshuri bageze mu gihe cy'itangira bajya ku ishuri bambaye imyenda ibaranga, kugira ngo babashe guhabwa serivisi mu buryo bworoshye.

Inzu y'isomero, hakaba harimo utubati dupanzemo ibitabo byinshi cyane by'amoko atandukanye, ku buryo igihe ushaka gusoma kugira ngo wiyungure ubumenyi, uhasura hanyuma ugafata igitabo runaka ugasoma, haba hari ibintu uri bwandika ukabyandika bityo ugakomeza kwiyungura ubumenyi.

Abantu batandukanye bari mu cyumba bakaba barimo kuganira, ubona ko hari igikorwa nyamukuru cyabateranyije, ni byiza kuganira kubera ko bituma abantu basabana bakungurana ibitekerezo ndetse bagahana n'inyunganizi.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba baje kuganirizwa. Ni byiza guhuriza abantu hamwe bakaganira kubera ku bungurana ibitekerezo, hanyuma bagakorera hamwe kugira ngo niba hari ikibazo gihari, gishakirwe umuti.

Imyenda yanitse mu busitani, hirya yayo hakaba hari amazu bigaragara ko ari amacumbi abantu bacumbikamo hanyuma abahacumbika bakaba aribo bamesha imyenda yabo ubundi bakayandika mu busitani mu rwego rwo kugira ngo yume vuba.